Umugabo ukuze, w'umusaza, w'inzobe, ari guseka. Afite inkoni mu ntoki, ayicaranye, asa nk'uyishinze, uyifatirijeho amaboko. Ubona ho hari uwo bari kuganira cyangwa se yishimiye aho ari.

Inyuguti zanditse ku gikuta cy'umuhondo, z'ikigo gikora ibijyanye no kwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye. Hasi hubatse neza harashashe.

Abantu benshi batandukanye bari mu kabari bari kunywa. Urabona ko basabanye cyane barahagaze bari kubyina. Kandi n'inzoga ziri mu tubati twabugenewe hirya mu bikuta.

Ibigaragara ko ari akabari ariko hatagaragaramo umuntu ahubwo harimo urumuri rutandukanye harimo n'insakazamashusho ebyiri zimanitse zigaragaza amashusho ariko harimo ibyo kunywa abantu ntibagaragara.

Icupa ry'inzoga rya pirimusi, ku ruhande hateretse ikirahure cy'inzoga. Biravuga ko ku ruhande hari abantu bicaye, bari kunywa, bari mu kabari. Nubwo batagaragara neza, kuko hirya hari umucuruzi.

Akabari ka nijoro, karaka amabara atandukanye. Hasi, hejuru, harimo ay'umuhondo, ay'umweru, ahandi handi ntihagaragara, nta bantu bagaragara, gusa ikigaragara ni uko ari akabari.

Akabari hagaragara ko ari mumasaha ya nijoro, hahagazemo abantu babiri bambaye imyenda y'umweru hejuru, ariko uko bigaragara harimo umugore n'umugabo basa n'aho ari abaguzi.

Igipangu cy'umweru kigaragara, mu kwinjira kuruhande hari ibara ry'umuhondo rihatatse, n'inyuguti runaka bigaragara ko harimo aho banywera ikinyobwa runaka kiba kuba ari igisembuye cyangwa ikidasembuye.

Akabari ka nijoro kari kwaka ibara ry'ubururu ntago abarimo bagaragara neza kubere ko iri bara ritatuma ureba, cyane ko ari nijoro hakagaragaramo ibara ry'ubururu cyane kurenza ibindi byose.

Abantu babiri bari kuri moto, umwe atwaye umugenzi bose bambaye ingofero zibarinda impanuka. Hari umuhanda w'amabuye hirya gato hari icyapa kigaragaza ko hari akabari, hari aho bafatira ibyo amafunguro n'ibyo kunkwa.

Iyi nyubako ni akabari harakamo amabara atandukanye, harimo umwanya utandukanye kuko ni hanini harimo ibikoresho, harimo intebe yewe n'ibyo kunywa birimo nubwo bitagaragara neza.

Abantu batandukanye, baricaye, bari mu akabari, bari gufata icyo kunywa. Ari na ko bareba umupira ku nsakazamashusho ya rutura, nini cyane. Ariko si ibyo gusa, kuko bari kunywa, bari kurya, barishimye.

Abantu babiri bicaye ku ntebe begeranye bigaragara ni mu kabari, ni masaha y'ijoro barareba umupira ku nsakazamashusho ya rutura, ibigaragara ni uko bashishikajwe n'igikorwa barimo.

Mu kabari bigaragara ko ari ni joro harimo abantu babiri harimo: ucuruza n'akabari n'undi umwe wicaye iruhande rwe ubona ko baganira bose bambaye imyenda y'ibara ry'umukara umwe arabwira undi, undi arunamye asa n'umusubiza.

Aha ni bafatira amafunguro ni icyo kunywa kuko harimo umugabo uhagaze abandi bantu baricaye bari kurya, urabona ko hitaruye kandi hafite umwanya munini kandi ko bari kurya bigaragara

Akabare k'inzoga zisembuye, kari kwaka amabara atandukanye, ariko iryiganjemo cyane ni iry'ubururu. Nubwo harimo n'ayandi atandukanye, harimo ay'umuhondo. Gusa nta bantu bagaragaramo, ariko ibinyobwa byo birimo.

Icyapa kiriho inzoga ya sikoro ibyo baratubwira ko hafi aho cyangwa kuri iyo nzu hasi bacuruza inzoga ari akabari, habamo ibyo kunywa n'ibyo kurya

Abantu batandukanye bicaye ku meza bari kunywa inzoga, ubona ko bari gusangira, bigaragara ko aho hafatirwa icyo kunywa n'icyo kurya kuko biragaragara.

Umugore abagabo batatu baricaye kumeza bari gusangira ibinyobwa muri ibyo binyobwa harimo ibisembuye n'ibidasembuye urabona ko bari kuganira.

Intoki zifashe akamashini k'umukara mu ntoki, izindi nazo zifashe agakarita k'ubururu, agakarita k'ubururu bagashyira muri mashini iyo hari ibyo ushaka kureba kubi bijyanye n'amafaranga runaka.

Aha ni mukabari, mu masaha y'ijoro. Ntabwo hagaragara neza. Ahubwo haragaragara ibyo kunywa. Hejuru kandi hamanitse insakazamashusho, ni zo zigaragara. N'ibinyobwa. Abantu bo ntibagaragara neza, ariko barimo baranywa mu bigaragara.

Umugore wambaye agakote k'umweru yicaye ku meza afite telefone mu ntoki. Aho yicaye bigaragara ko ari aho bafatira amafunguro nicyo kunywa. Kuko yicaye nkutegereje ikintu runaka.

Ni mu masaha y'ijoro abantu batandukanye bari mu runywero mu kabari, barahagaze bari kunywa bari kurya, bigaragara ko bishimye n'igikorwa barimo ahanini bitewe n'umwuka barimo kuko bari gusabana.

Akabari ka n'ijoro kaka amatara atandukanye gahagazemo abantu bari kunywa inzoga, bamwe barahageze abandi baricaye ubona ko bishimiye igikorwa barimo banezerewe cyane.

Amacupa atatu y'inzoga zisembuye ateretse ku meza, hirya hari umuntu wunamye uri guha abantu bicaye wamenya ari kubaha inzoga kuko izigaragara aha ku meza arizo.

Umuntu ufite terefone uri kuyivugiraho, wambaye ibintu by'umweru mu mutwe n'ahandi, aricaye akikijwe n'ibicuruzwa, cyane cyane birimo ibinyobwa by'inzoga zisembuye.

Icyapa kinini, kiriho amagambo n'inzoga nini yanditseho sikoro. Iyo shusho iriho abantu bari kubyina, ubona ko bishimye. Ibyo bigaragaza ko hafi aho hari akabari. K'ibyo kunywa no kurya.

Ni mu masaha ya nijoro akabari kari hanze ntabwo kagaragara neza, kuko hari urumuri rutukura. Niyo mpamvu utabasha kubona abantu cyangwa se intebe n'ibindi byose neza kuko urumuri ruhari rwiganje ari urw'umutuku.

Ikirahure cy'inzoga isembuye giteretse hirya gato, hari ibinyobwa bitandukanye ari ibisembuye n'ibidasembuye byose bipanze mu kabati kabugenewe.

Inyubako icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibyo kunywa, harimo ibisembuye, ibidasembuye, hirya gato hari uwundi muryango ucururizwamo imyenda biragaragara ko iyo nyubako igendwa cayne.

Umugore w'imibiri yombi wambaye umyenda wirabura afite akamashini mu ntoki hari undi uhagaze usutse imisatsi afite agakarita k'ubururu ashaka kugacengeza muri iyo mashini baraganira ubona ko babiziranyeho.

Urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo, imbere handitseho imibare. Iyo mibare ni ibiciro by'ibiribwa cyangwa ibinyobwa umukiriya aba agomba kwishyura mu gihe yafashe ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, aho bafatira amafunguro.

Urupapuro rw'umukara ruriho amagambo y'umweru, hirya gato hakaba imibare iri mu tuzu tw'umutuku, haragaragaramo ibyo kurya ndetse nibyo kunywa, ibyo ntabindi baratwereka ibiciro by'ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya bishyura mu gihe bafashe ahongaho.

Icyapa cyamamaza ibinyobwa bisembuye kiri ku muhanda, hirya hari abanyamaguru bari kugenda bigaragara ko kiri ku muhanda.

Abagore babiri bahagaze hagati yabo harimo umugabo, barishimye bafite akanyamuneza barareba imbere yabo. Inyuma hari inzoga zisembuye ziri mu kabati.

Iki cyapa cy'inzoga isembuye kiratwereka ko hari aho bafatira amafunguro y'ibyo kunywa hafi aho, muri make ni ukuvuga ko hari ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi no gusabana birimo ibyishimo.

Akabari kiganjemo ibara ry'umukara, intebe ni umukara, ameza akikije ni umukara, akabati k'inzoga ni umukara, ugakoramo yambaye umukara, urabona ko ari keza nubwo ahanini kigajemo ibara ry'umukara cyane.

Akabari ko mu masaha y'ijoro gacuruza ibinyobwa bisembuye bicaye imbere yabo bareba inyakiramashusho, muri iyo nyakiramashusho hagati harimo akabati gapanzemo ibinyobwa bisembuye mu bigaragara ni nijoro.

Isahani y'ibiryo, n'ibirahure birimo inzoga iteretse ku meza, ayo meza akikijwe n'intebe z'umukara, nta bantu bahari ariko ikizwi cyo ni uko aha ari aho bafatira amafunguro n'icyo kunywa.

Umugabo wambaye agapira k'umweru gaciye amaboko n'ipantaro na terefone mu ntoki n'agapfunyika mu ntoki, arambukiranya umuhanda yerekera ku zindi nyubako ahari ubucuruzi bunyuranye.

Umugabo wicaye mu ntebe yegamye, wambaye agapira k'amace, k'amabara atandukanye y'umweru n'umutuku, ari gusoma igitabo.

Akabari k'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye amacupa apanze neza mu kabati kabugenewe arimo inzoga zikomeye n'izidakomeye muri bo harimo amazi imitobe n'ibindi.

Ishusho y'ibiganza bibiri byahuje ibirahure, bigagare ko bari gusangira kandi babyishimiye, kuko imbere yaho hateretse ibindi bintu binyurange birimo ibiyiko byo kurisha, nk'uko bigaragara abahuza ibirahuri ni uko baba bishimye.

Umugabo uhagaze afite ibirahure by'inzoga isembuye mu ntoki, akoze ikimesto kigaragaza ko ibintu bimeze neza. Urebye inyuma ye hari inzoga nyinshi ziri mu tubati twabugenewe. Urabona ko ahantu ari hari inzoga nyinshi zitandukanye z'amoko menshi.

Ikirahure cy'inzoga isembuye kiri ku meza, hirya gato hari abagabo bicaye, ubona ko bari gusangira bishimye umwe muribo arahagaze bisa n'aho ari kubahereza ikintu.

Umugore ukiri muto afashe agacupa ari mu kabari. Ubona ko yahimbawe cyane yishimye. Hirya gato hari abantu batandukanye nabo barikunywa kandi bishimye banezerewe ubona ko ari abantu benshi batandukanye.

Igipapuro kirigo amagambo y'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, kikaba kiriho imibare igaragaza ibiciro byabyo, akenshi tubisanga aho banywera n'aho barira.

Akabari kari kwaka urumuri rw'ubururu cyane, abantu barimo ntibagaragara kubera ko urumuri rwaganjije cyane ni ubururu, ntubasha kubona umuntu nubwo harimo ugaragara n'ibinyobwa birimo bikaba bigaragara.

Ahantu hagaragara kuba wahafatira icyo kurya n'icyo kunywa haraka amabara atandukanye ariko iryiganjemo cyane ni iry'umutuku, kuko hahagaze umuntu uri kure kuko utamurebera hafi.

Umuntu ugaragara nk'umugore, imbere ye hari akabati karimo inzoga, zitandukanye imbere ye kandi hateretse inzoga ziri mu macupa anyuranye.

Inyama zo mu bwoko bwa sosiso. Hamwe n'ifiriti, n'igikombe kirimo ubwoko bw'inzoga iryoshye cyane. Hari umugabo byegereye, ubona ko fite apeti n'amerwe yo kubisamura, akabirya, akumva ko amerewe neza.

Moto iriho abantu babiri iri mu muhanda w'amabuye iri kuzamuka hakurya hari akabari gafunguye umuryango w'ubururu hahagazemo umuntu urabona ko ari guha karibu abantu.

Icyapa cyamamaza inzoga zisembuye, kiraha ikaze abantu aho bafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa mu rwego rwo kubaha ikaze babafata neza.

Urupapuro rugaragaza ibiciro by'ibyo kunywa mu nzu ifatirwamo amafunguro n'icyo kunywa, kugira ngo buri wese yisange ntagorwe no gutungurwa n'igiciro runaka k'ikintu yafashe.

Amacupa atandukanye y'inzoga ateretse ku meza ayandi ari mu tubati tw'ibirahure nayateretsemo bigaragare ko aho hantu bahafatira icyo kunywa nk'icyo kurya.

Aha ni ahacururizwa ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, biri mu tubati twabugenewe. Ibindi biri hasi, ahabugenewe, mu makaziye yabyo.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye, kicayemo abantu batandukanye. Baricaye, bari kunywa, bari kuganira, ni nijoro mu bigaragara. Kandi urabona ko banezerewe.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara, isaaha, afite igikombe mu ntoki ari gusuka, iruhande rwe hari ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye biri mu kabati kabugenewe.

Icyapa cyamamaza. Ibinyobwa bisembuye. Ibyo kurya n'ibyo kunywa. N'ibindi bikorwa bitandukanye bihakorerwa. Hasi yaho haparitse imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri, imbere y'inyubako.

Umuntu ugaragara ko ari umugabo, ahagaze mu kabari, ni mu masaha y'ijoro. Ntabwo hagaragara neza, usibye urumuri ruke ruhari. Gusa hari ibyo kunywa, kandi ni heza.

Akabari gacuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, harimo abantu banyuranye. Abagabo n'abagore bahagaze bari kunywa, bishimye, bari kuganira, bari kubyina. Ubona ko banezerewe n'igikorwa barimo.

Iki cyuma kigari cy'akabari ntigikaragara kubera urumuri rw'amatara arimo avangavanze arimo umutuku n'ubururu abarimo ntibagaragara hagaragara amabara y'urumuri rwaho.

Ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo n'ingwa, aya magambo ntayandi ni iminsi igize icyumweru, ntakindi cyanditseho ni ibicuruzwa byanditseho n'ibiciro byabyo, ibyo bifasha umuguzi kumenya ibyo yishyura n'ayo yishyura.

Uyu mugore yicaye ahantu afite telephone mu ntoki, arunamye arayireba ariko ntabwo agaragara neza kuko aho yicaye urumuri rutukura rwahiganje nawe rugatuma atagaragara neza kuko rumumurika niyo mpamvu ajya gusa n'ibara ritukura.

Umugore ukiri muto w'inzobe wambaye agapira k'ubururu gaciye amaboko, n'ingutiya, afite umupira mu ntoki arawitegereza. Nk'uko mubibona aha ni mu cyumba bagurishirizamo imyenda, ari gutoranya.

Imyenda itandukanye iramanitse, y'amabara atandukanye, muri yo harimo imipira, amakanzu y'abagore, amashati y'abagabo, imipira isanzwe, harimo n'iy'imbeho, n'udupira dutoduto, ndetse n'udukapu n'ingofero ariko ubona ko ari byiza.

Iduka ririmo imipira y'amabara atandukanye iciye amaboko urabona ko ari ahantu hanini nk'uko bigaragara ko imanitse impande n'impande kandi ni myiza nk'uko bigaragara.

Imodoka nziza y'umukara iraparitse izindi ku ruhande nazo ziraparitse, bigaragaraza ko hari ubwo imodoka yaba igurishwa cyangwa se ikaba iri ku isoko nkuko bivugwa ahangaha.

Abagabo batatu n'undi uri hakurya bahagaze hagati y'imodoka nshyashya ubona ko hari ikirango bariho berekana, aho ntahandi ni aho ikirango cy' uruganda runaka kandi urabona ko iyo modoka ari nshyashya ishobora kuba isohotse mu ruganda ako kanya ibyo harimo kuba ari abacuruzi cyangwa se abaguzi barimo.

Inoti za bitanu zo mu myaka yashize ya repabulika y'u Rwanda. Ubu ngubu izi noti ntabwo zikora kuko ari iza kera. Ubu iziriho ni izindi, zitari izi.

Umugabo uri gucengeza inote mu kamashini kabara mafaranga kuko inote ni nyinshi ntiyazibarisha intoki ziri impande n'impande niyo mpamvu ari gukoresha akamashini kabugenewe kabara inote.

Iki gikoze nk'ikizeru cyanditsemo amagambo cyinashushanyijemo ibindi bintu ni igiceri cyo mu myaka ya kera cya repubulika y'u Rwanda, nkuko mubibona ntago kigikora ubu ngubu.

Iki gifite umuzenguruko w'ikizeru gisa n'umuhondo. Ni igiceri cya mirongo itanu cyo mu myaka yo hambere cya repuburika yu Rwanda urabona ko ni icya kera.

Ibiribwa bipfunyitse mu gipapuro cy'umweru, ibyo byaba ari amandazi cyangwa se capati cyangwa se imigati nk'uko bigaragara nk'uko tubibona.

Ameza y'umweru ateretseho agakopo karimo uduti tubaje neza dutunganyije. Utwo tubasha koza amenyo cyangwa se kugira icyo duhagamura mu gihe hari icyabashije kwinjira mu menyo.

Umuntu wazingazingiye hamwe capati, uri kuzirya. Ubusanzwe capati ni ikiribwa gikundwa n'abantu benshi. Ari abato cyangwa abakuru baragikunda. Kuko na cyo ni ikiribwa gikorwa mu ifarini.

Amandazi menshi ari ku isahane harimo rimwe risatuye, ubusanzwe amandazi ni ikiriribwa gikundwa n'abantu cyane b'ingeri zitandukanye, harimo abana, abakuru, abagore, abagabo n'ingeri zitandukanye baragikunda cyane.

Abagabo babiri barimo umwe wambaye umupira w'icyatsi ufite akajerekani mu ntoki, wasetse, ari kumwe n'undi wambaye amadarubindi usheshe akanguhe, imbere ye hari indobo irimo amandazi, bigaragara ko bacuruza amata.

Abagabo babiri bateruye icyuma gushyirwamo amata babuganiza mu kindi kinini kiyabika kikayatunganya neza kugira ngo amare umwanya munini ntabashe kwangirika.

Hari isahani iriho amandazi, amandazi ni ikiribwa cyiza gikorwa mw'ifarini, amata, isukari, bakagitekesha amavuta y'ubuto, kikagira intungamubiri ku bana, ku bantu bakuru kandi kikaba kinahaza

Icyapa kimanitseho cyanditseho inyanye kiri hejuru y'icyumba bacururizamo amata y'inyange kitubwira ko aho muri ako gace ariho bacuruza amata y'inyange mu cyuma runaka.

Amandazi abiri ari mu ndobo ipfunduye irimo akuma kayafata, indobo iri ku meza niho iteretse.

Umuryango w'ubururu ufunguye, mo imbere harimo ibikoresho ariko inyuma baratwereka ko bacuruza amata y'inyange. Amata meza cyane akundwa n'abantu bose n'ingeri zitandukanye

Muri iki cyumba gifite igikuta cy'ubururu, harimo icyuma cy'amata y'inyange. Ni ukuvuga ngo muri ako gace ni ho hacuruzwa amata y'inyange, iki cyuma rero gifasha amata kubikika igihe ntabashe kwangirika akagera ku bantu ameze neza.

Umusore wirabura wambaye agapira karimo utubara, ahagaze imbere y'umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bitandukanye, muri byo harimo capati, bisuguti, ubunyobwa, imitobe ikorwa n'inganda zitandukanye, amata imigati, ni ibyinshi ategereje ko amuhereza.

Uyu mugore uhagaze, wambaye ipantaro y'ubururu n'agakote k'umukara warimbye, ahagaze, iruhande rw'ibicuruzwa birimo amandazi n'imigati, hafi ye hari icyuma gikonjesha, hino hari icyuma gishyirwamo amata kugira ngo atangirika, urabona ko iyi nzu arimo ni iy'ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibyo kunywa.

Iduka ripanzemo ibicuruzwa, mutubati twabugenewe neza, hasi hariho ibicuruzwa, ibyinshi ni ibijyanye n'ibikorwa mumata, harimo amata nk'ibisanzwe, n'ibindi bikorwa mumata ariko no mu mbuto.

Abagabo babiri, umugore umwe barahagaze bafite buriwese ikinyobwa mu ntoki. Muri ibyo binyobwa ni bimwe mu bikorwa mu nganda bikorwa mu mata. Barishimye, mu bigaragara bari guseka.

Umugore wicaye ufite telefone mu ntoki, yishingikirije n'akaboko kari ku meza ateretseho igikombe cy'amata harimo n'ikiyiko. Yicaye agaragara nk'uri kubaza umuntu hirya.

Icyumba gicuruza amata y'inyange n'ibindi bicuruzwa binyuranye, birimo amata n'imitobe, n'ibindi bitandukanye birimo utubati twabugenewe. Mu rwego rwo kugira ngo amata abikike neza, bayashyira mu cyuma cyabugenewe.

white small jerrycans containing milk are stored align in the shelf down below there is small cups containing drink product that comes from milk down below there are small bottles containing drink product that comes from milk with different fruits, closed with red and white caps.

Icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo "Inyange". Ariko si ibyo gusa, kuko baratwereka ko hariho n'ibindi binyobwa by'amata, cyangwa ibindi binyobwa bikoze mu mata, binyuze mu ruganda Inyange.

Icyumba bacururizamo amata, ibyo kurya, harimo akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, hakuno gato hariho ameza ateretseho indobo zirimo amandazi.

Mu masaha ya n'ijoro hari umwijima ariko hari urumuri ruri kugaragwa n'icyapa cyanditseho "Inyange" ari nako umuryango ufunguye mo imbere ugaragaza ko harimo ibicuruzwa biragaragara ko bafunguye kandi barimo gukora.

Ahantu hacururizwa amata ya Mukamira, imbere hari umucuruzi wicayemo imbere. Imbere y'inyubako hapariste imodoka.

Umugore wicaye ku meza, iruhande rwe hari igikombe, ku ruhande rundi hari telefone; hino gato hari amata n'amandazi n'ibyo kurya. Bigaragara ko bahoze barya.

Umugore ufite terefone mu ntoki, iruhande rwe hari icyayi cyo mu gikombe. Aricaye aricaye ahantu bafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Iki cyuma kinini giteretse mucyumba kinini cyisanzuye. Iki cyuma ni ikibasha kubika amata igihe kinini kandi ntabashe kwangirika. Icyo ni icyuma gifasha amata kumera neza ntakibazo abashije kugira.

Inzu ndende, itambitse, bigaragara ko irimo ubucuruzi butandukanye, muri bwo twavuga: aho bacuruza amata, imyenda, imitise, inzu igaragara ko ari iy'ubucuruzi. Kandi igaragara nk'ifite imbuga nini yisanzuye.

Ahacururizwa amata ya Nyanza. Harimo akabati kabugenewe, harimo amajerekani, hejuru harimo inkongoro n'ibikarito, n'ibindi biribwa byabugenewe. Hasi hari ameza.

Umwana muto ufite telefone mu ntoki ubona ko yarangaye, inyuma hariho abagabo bari kumuvugisha ariko ubona ko ahuze ari kureba ahandi atabyitayeho.

Umugabo wambaye umupira w'umukara nipantaro y'ubururu arahagaze arabuganiza amata mucyuma cyagenewe kuyabika murwego rwo kugirango amata abikike neza

Utujerekani tw'umweru dupanze ku murongo twinshi dupanze mu tubati twabugenewe mu bigaragara ni uko hari icyo dukora hari umurimo watwo dufite.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye birimo amata, imitobe itandukanye ikorerwa mu nganda, harimo umucuruzi w'umugabo wambaye agapira k'umweru ahagaze, umucuruzi nawe amuhagaze imbere ategereje ko yamwishyura.

Amandazi ari kwisahane, arahiye kuko bigaragara ko avuye mumavuta, ubusanzwe amandazi ni ikiribwa gikundwa, gikundwa n' ingeri zitandukanye, ari abato ari n'abakuru , ubusanzwe amandazi akorwa mu ifu y' ifarini, ifarini nayo iva mumbuto z' ingano ziba zahinzwe.

Abagore babiri bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru n'amakarita mu ijosi bahagaze ahari ikirango cy'ubururu cyanditseho "INYANGE MILIKI ZONE" bigaragaza ko aho hantu bacururuza amata cyangwa se hari icyuma gitunganya amata mu buryo bwo kugira ngo amata atangirika.

Umugore wambaye agakote k'umukara ni ngutiya y'umweru irimo utubara tw'umukara yanyuze iruhande rw' umugabo wicaye usa nushaka kugira icyo afata cyangwa kugira icyo amuhereza ariko bigaragara ko bari mw'iduka ricuruza ibintu bitandukanye birimo amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye byo kurya no kunywa ni mitobe n'ibindi.

Abantu bari ahacururizwa amata, bari gusangira, bishimye, bahuje urugwiro, hasi baricaye ku meza hari keke n'ibindi bitandukanye bamaze kurya.

Ahantu hagaragara ko ari aho bafatira amafunguro n'icyo kunywa, hahagazemo abantu, abandi baricaye, bari kurya, bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa. Urabona ko bari kuganira bishimye.

Umugabo uri aho acururiza ibiribwa ubona uhagaze mu muryango, ibiribwa bitandukanye birimo imineke, amandazi, amagi, ubona ko ategereje abakiliya batandukanye, hafi yaho bigaragara ko ari ku muhanda.

Umugabo wambaye ishati y'umukara nipantaro ijya gusa niyu... arahagaze ari kuvugisha umucuruzi w'umugore ucuruza amata n'ibindi bicuruzwa bitandukanye birimo amazi, imitobe.

Abagore babiri barareba imbere umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye umupira w'umukara bafite ibicuruzwa mu ntoki barareba imbere ubona ko bafite akanyamuneza ku maso.

Utujerekani tw'umweru duteretse hasi, twanditseho n'ikaramu mu mabara atandukanye: icyatsi, umukara n'ubururu.

Iyi shusho iragaragaza umwana muto ufunze imisatsi yanyweye amata uko hagaragara no ku munwa, amata ni meza nk'uko tubibona kuko n'aho ava ni heza kuko turabizi twese.

Uyu mugore wambaye umupira w'imbeho aricaye aryamiye ameza arareba ibumoso bwe asa nutumbiriye ikintu runaka cyangwa ari gutekereza ikintu runaka ari kureba.

Umugabo wambaye ishati y'amabara n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze mu cyumba bafatiramo amafunguro y'ibyo kunywa n'ibyo kurya. Arahagaze abaza umufasha.

Abana babiri baricaye bari kunywa amata. Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru, ari kubavugisha ku meza yabo imbere yabo hari andi mata ahari ahateretse.

Aha ni ahacururizwa amata, hejuru y'akabati kabugenewe hateretse inkongoro hasi hari amazi n'ibindi biri muri envirope.

Ikiganza gifashe agakarito karimo imbuto zitwa marakuja. Imwe murizo isatuyeho, marakuja ubundi, bavuga ko ikungahaye kuri vitamini, ntayindi ni vitamini se.

Ibyuma bigaragara ni ibyuma bibika amata urabona ko aho biri mucyumba kigari kandi kisanzuye, mu gihe bibaho kugira ngo bibike amata kandi abikike neza mu buryo bwiza kuyakeneye wese.

Umugore wambaye igitambara mu mutwe ufite igikoresho cyabugenewe kirimo amata arahagaze, aragenda, araseka, arishimye bigaragaza ko ari mu kazi.

Umugabo n'abana bato babiri bahagaze imbere y'umucuruzi ucuruza ibyo kunywa birimo; amata n'amazi ubona ko hari ibyo bamubaza. Icyumba barimo ni icyumba kigari.

Umudamu wambaye ikanzu itukura, uhagaze iruhande rw'ameza hateretse akajerekani, ahagaze areba mo imbere aho bacuruza amata, ikigaragara arabaza igiciro umucuruzi.

Umugore, uteze akagofero gakoze mu myenda, n'agashati k'ubururu karimo umweru, ugaraga ko ari umucuruzi w'ibinyobwa bidasembuye, birimo icyayi n'amata, afashe akajerekani areba i buryo bwe.

Icyuma cy'amata ya Nyanza kiyabika kiikayarinda kwangirika akagera ku bantu mu gihe nyacyo kandi ntakibazo yabashije kugira, iki cyuma ni ingirakamaro kuko gifasha bamwe mu batunzi cyangwa se mu bacuruzi kugira ngo bibashe kugira umusaruro.

Ameza y'ubururu yabugenewe yo mubucuru hateretse akajerekani karimo amata hirya hari akabati kabugenewe ibyo kunywa nk'imitobe, amata, n'amandazi n'ibindi Kandi hari icyapa cyanditseho inyange biragaragaza ko bacuruza amata y'inyange ni mubucuruzi rero bw'amata.

Amata ari mu kajerekani k'umweru ateretse ku meza, ku ruhande hahagaze abantu umwe yambaye imyenda y'ubururu undi ahagaze hirya.

Abantu batandukanye bari kunywa amata mu cyumba kigaragara ko ari i Kigali, ni ukuvuga ngo aha ni aho bacuruza amata yewe n'ibindi biyakomokaho cyangwa se n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ku cyuma gicuruza amata y'inyange hari umuntu uhicaye w'umucuruzi yateze akajerekani ategereje amata ko yuzura mu kajerekani.

Igikoresho gikonjesha ibiribwa cyangwa ibinyobwa giteretsemo amata ari mu kajerekani, utundi dukoresho tunyuranye turimo uducupa cyangwa ibikombe bikoreshwa mu mata.

Agakoresho kabugenewe k'ubururu, gateretseho ibikoresho bifasha abacuruzi aho bafatira amafunguro n'ibinyobwa, gutuma ibyo bashyizemo bikomeza gushyuha. Ntabindi ni ibyo biteretseho.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko k'umweru n'ikabutura, ahetse agakapu, afite telefoni mu ntoki yubitse umutwe; ahagaze mu cyumba bacuruza amata; imbere y'aho hari intebe n'imeza n'igitabo, bisa nk'aho ari gusoma ubutumwa.

Amagi apanze mu gakoresho kayo kabugenewe katatuma yagira ikibazo na kimwe, ubusanzwe amagi aterwa n'inkoko, inkoko hakabaho amagi y'umweru andi akajya gusa n'umuhondo ariko yose muri rusange ni amagi.

Amata ari mu bicuba byagenewe gushyirwamo byose hamwe biteretse ku murongo hasi, ahagaragara nk'inzu yabigenewe gushyirwamo amata ubona ko ibyo bicuba biri ku murongo kandi birimo amata yuzuye.

Agasahani k'umukara keza kabugenewe, karimo amagi atatu n'akandi gakombe gateretsemo karimo uduti tubaje neza bakoresha mu menyo mu gihe bibaye ngombwa hari ikintu ushaka gukura mu menyo.

Icyumba kirimo ibicuruzwa ubona cyisanzuye harimo; ibicuruzwa bitandukanye, bimwe birimo amata yo mu nganda, cyangwa se imitobe ikozwe mu mbuto nabyo binyuze mu nganda, amazi, amagi, amandazi n'amata ari mu cyuma, urabona ko ari inzu y'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye byo kunywa n'ibyo kurya.

Umuryango w'ubururu ufunguye ku ruhande gato hari amajerekani apanze ku murongo mwe hejuru y'indi ku rundi ruhande hari igikoresho gikonjesha ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye agakoti k'umukara n'ingutiya y'umweru irimo amabara y'umukara ahagaze iruhande rw'icyuma kibika amata kiyarinda kwangirika.

Icyapa cyerekana ahacururizwa amata ya nyanza, hasi yaho hari icyapa gitanga karibu, imbere yaho haparitse moto, iruhande ni mu muhanda wa kaburimbo.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, arimo ararusa amata mu ijage akoresheje indi jage, hirya y'aho hari akabido k'umuhondo, arimo arasuka amata ashaka kuyahereza uwo mumama uri mu idirishya ry'ubururu.

Umuryango w'ubururu ufunguye urebeye inyuma ibimenyetso biragaragaza ko bacuruza amata n'ibindi biribwa bitandukanye kuko urebeye inyuma ubibona ntakabuza.

Amacupa maremare azwi nka nili ari hamwe ari iruhande rw'igipfunyika kirimo igipapuro cya kake, biteretse ahantu hameze nk'akabati.

Umucuruzi uri kubuganiza amata mu mubirikira, mu kabido biteretse ku meza. Arahagaze ategereje ko yuzura ngo ayatange.

Umugore uhagaze, inyuma ye hari inyubako yubakishijwe imitako ya kinyarwanda. Imbere hateretse amata ari mu tujerekani n'ibindi binyobwa bikorwa mu mata ndetse n'imbuto zinyuranye.

Abantu batatu bari ku meza, bicaye, bari gusangira amata, muri bo harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo uturongo dutukura n'ubururu.

Ameza ariho indobo ebyiri zirimo amandazi biri hanze, hejuru hari akuma gafata amandazi kubayakeneye, hirya gato hari umuryango w'ubururu.

Iki cyuma cy'ubururu kirekire ni icyuma cya mukamira kibika amata ntabashe kwangirika. Kiyabika igihe akamera neza akagera ku bantu atunganye. Gikikijwe n'ibindi bicuruzwa bitandukanye birimo amazi, imitobe, n'ibindi binyuranye.

Abagabo babiri barimo n'umugore umwe ukiri muto baricaye ku meza hateretse amata bari gusangira urabona ko banezerewe kuko barimo baganira bishimye.

Umucuruzi w'igitsina gore wambaye agashati k'umukara arabuganiza amata mu birahure byabugenewe ayavana mu kajerekani ku meza.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, afite telefone ku gutwi ahagaze mu cyumba bacururizamo amata n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, umucuruzi nawe ahagaze hirya ari kubuganiza amata kugirango ayahe uwo umugore.

Umugabo n'umwana muto bahagaze mu nzu icururizwamo amata n'ibindi biribwa n'ibinyobwa bitandukanye, bategereje icyo umucuruzi abaha. Kugirango babone uburyo bamwishyura.

Intoki zifashe agakombe kanditseho mukamira, ubusazwe tuziko mukamira ari uruganda rutunganya amata n'ibindi byose bikomoka ku mata ariko aha ho ni ibikomoka ku mata birimo n'inkeri.

Umugabo muremure wambaye ishati irimo amabara ahagaze imbere y'umucuruzi hari icyo amusaba. Ikigaragara cyo ni uko ashaka kwishyura kuko hari icyo amusaba kugira ngo amwishyure.

Umusore wambaye agapira kirabura gaciye amaboko n'ikabutura y'ikoboyi ahagaze mu cyumba bacururizamo amata imbere y'umucuruzi w'umugore, arabuganiza amata kugira ngo ayamuhe agende.

Umugore wicaye aho bafatira amafunguro afite telefone mu ntoki, ubonako haricyo amaze gufata, hirya gato hari umucuruzi wicaye, hejuru hari ibicuruzwa birimo imitobe n'ibindi bintu bitandukanye byanyuze mu nganda.

Amata y'ikivuguto, ari mu dukarito dutoya. Ku ruhande hari ari mu tujerekani. Ku ruhande gato, hari andi binyobwa bikozwe mu dukopo duto, n'uducupa, ariko byose bikorwa mu mata. Cyangwa se ibikomoka ku mata.

Ibinyobwa bitandukanye bipanze neza mu kabati kabugenewe, bimwe muri byo harimo amazi maremare akunze kwitwa niri, ibindi ni imitobe itandukanye y'Inyange n'ibindi bindi bikorwa mu nganda zitandukanye, biba birimo imitobe.

Umuryango w'ubururu, ufunguye, hari igishushanyo cy'inka. Bigaragara ko bacuruza amata ya Nyanza. Amata akundwa n'abantu cyane, kuko aryoha.

Icyapa cy'amata y'ahacururizwa amata ya Nyanza miriki, biragaragara ko hacururizwa ibinyobwa bitandukanye by'amata y'ikivuguto, ji n'ibindi bitandukanye by'amoko atandukanye.

Icyapa giha ikaze ahacururizwa amata, kuri icyo cyapa hariho ibicuruzwa by'ibinyobwa bitandukanye, ari ibikorerwa mu mata n'ibindi bindi bikorerwa mu mbuto n'ibindi bindi bitandukanye.

Ameza y'ibiti akoze mu kizeru, akikijwe n'intebe na zo zikoze kimwe, byose biteretse hanze kuko biri ku muhanda iruhande rw'umuhanda, aho imodoka zitambuka ndetse na moto.

Umugore n'umugabo baricaye barebana ku ameza, batandukanyijwe n'ikirahuri , hirya hari umgabo wundi uhari wambaye ishati y'umweru bicaye bose mu biro, ibiro bigaragar ko ari bigari.

Umugabo muto ukiri umusore uri guseka, wambaye umupira w'ikijuju, yicaranye n'umugore w'imisatsi n'amadarubindi n'ishati y'umweru, imbere yabo hateretse mudasobwa, bari kuganira baseka.

Ibitoki byinshi biri hamwe birunze hamwe ku ruhande hari umuntu ubihagaze i ruhande hirya harimo abantu batandukanye bahagaze, uko bigaragara ko ari isoko rinini nubwo ku ruhande aha harunze ibitoki bitandukanye.

Umugabo n'abagore babiri baricaye ahagaragara nko mu isoko, kuko bakikijwe n'imyenda itandukanye iri ku bitanda, kandi ubona ko bicaye nk'abategereje abantu.

Umugore wicaye asutamye, akikijwe n'ibihingwa birimo avoka, amaronji, inyanya, imineke, n'ibitoki, n'ibindi byinshi bitandukanye.. Urabona ko ari mu isoko. Ni umucuruzikazi muri rusange.

Abagabo bahagaze imbere y'umuryango, bigararaga ko ari isoko, hapanzemo imifuka myinshi, myinshi itandukanye, barafite igikapu, baritegereza, barashaka kwinjira nk'abashaka guhaha.

Iyi karita ni iy'ikigo k'itumanaho cya emutiyene yanditseho imibare inyuranye, iyo mibare ifasha umuguzi kwishyura umucuruzi mu gihe habayeho guhererekenya ibicuruzwa hagati yabo bombi.

Akazu k'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya Mtn. Hahagazemo umugabo wifashe ku itama ari kuganira n'abandi bahagaze hanze, yegamye mu idirishya. Bari kuganira mu buryo ubona ko bahuje.

Abagabo bahagaze, umwe wirabura wambaye umupira w'umuhondo, hari undi uri hino ye, usa n'uri kwereka umugabo w'uruhu rwera ibintu buri ku gakarita k'umuhondo.

Abantu bari mu nyubako irangaye, yiganjemo amabara y'umuhondo. Ay'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Abarimo bambaye imipira y'umuhondo. Inyuranye, imbere yabo bari gukorera kuri mudasobwa. Ariko imbare yabo hari umugabo uhahagaze, wambaye ishati y'umweru. Urabona ko bari kumwakira, kuko bari kumuvugisha.

Abagore batatu bahagararanye babiri bambaye imipira y'imuhondo, umwe yambaye ingofero yirabura, bose bahagaze bareba imbere bishimye baseka.

Abantu babiri, bahagaze batandukanijwe n'amezi, umwe aramwereka telefone undi aramwereka iy'indi, zose izo telefone zikwakamo umweru.

Umugore wambaye umwenda w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, ahagaze aseka munsi y'umutaka wa emutiyeni, akikijwe n'ibikoresho binyuranye, bigaragara ko ari mukazi.

Umugore ukiri muto wambaye agashati k'umweru, ari mu kazu k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, aho ategereje abaza bamugana kw'ihanahana ry'amafaranga hagati yabo bombi.

Agakarita k'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene. Kanditseho mu magambo n'imibare runaka ibyo ni ibifasha umucuruzi n'umuguzi kwishyurana nta ngorane.

Iyi ikarita y'umuhondo ni iy'ikigo k'itumanaho cya MTN. Yanditseho amagambo n'imibare runaka. Imibare runaka ifasha umuguzi kwishyura binyuze kuri telefone. Mu gihe akanze imibare arishyura.

Umugabo n'umugore bose bahagaze ku kazu k'inyubako k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene bambaye imihondo, umwe, w'umugabo yambaye umupira w'umuhondo, umugore yambaye agakoti gaciye amaboko k'akazi barareba, umwe ari ibumoso, undi ari iburyo baraseka, bareba imbere.

Abagabo batatu bahagaze mu akadirishya kakazu k'itumanaho rya emutiyene iburyo bwako naho mu idirishya hahagaze abagore ababiri, abagore abibiri baritegereza ibumumoso bwabo bombi ariko abagabo bo barimo barareba imbere bari kwitabwaho n'abakorera muri ako kazu.

Umugore usutse imisatsi wambaye agapira k'umuhondo ari kumwe n'undi utagaragara neza, ukingirijwe n'ikintu runaka bahagaze mu mutaka w'umuhondo n'akazu kubatse nako k'umuhondo. Ibyo byose ni ibikorwa by'ikigo k'itumanaho cya Mtn barimo, mu byo kwakira abantu babagana.

Icyumba cy'ikoranabuhanga harimo mudasobwa zitandukanye, imbere yaho harimo udukarita tw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. bigaragara ko ari ukwamamaza mu bigo bitandukanye.

Umugore wambaye ikanzu ndende nziza wambaye n'amadarubindi, aranyura iruhande rw'abagabo bambaye imyenda y'imihondo, irimo udupira k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, bari mu bikorwa byabo.

Abagore batatu bahagaze ku muronko bambaye imipira y'umuhondo, bahagaze bakira uje ubagana, bigaragara ko hari icyo agiye kubabwira.

Abantu batandukanye barimo abagore babiri n'abagabo babiri, bahagaze mu idirishya ry'akazu gakoreramo ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, mu bijyanye n'ihererekanya ry'amafaranga biciye kuri telefone.

Abagabo babiri, bari munsi y'umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, umwe aricaye, ari guha undi telefone uhahagaze. Bigaragare ko bari mu ihererekenya ry'amafaranga, biciye kuri telefone.

Umugabo wicaye mu kazu k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, aricaye, mu idirishya hari undi mugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ishati irimo amabara. Afite telefone mu ntoki arayireba. Bose barunamye,

Akazu kagaragara nk'agashaje, k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gafunguye amadirishya, hari ku kumuhanda, kariho nimero zitandukanye, zigaragaza uburyo babika, bakanabikuza, cyangwa se ari uburyo umucuruzi yishyuramo akoresheje telefoni.

Akazu k'icyigo cy'itumanaho cya MTN gafunguye amadirisha imbere hahagaze umugore wirabura ari kwandika n'ikaramu hirya gato mu idirisha harimo umugore wirabura uri kumuvugisha.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro y'umukara, n'undi wambaye umupira uciye amaboko w'ikijuju n'ipantaro y'umukara, barahagaze, mu idirishya ry'inzu ikorerwamo ikigo cy'itumanaho.

Umugabo wambaye agapira gaciye amaboko ahagaze ku meza ayishingikirije, imbere ye hahagaze umugabo wambaye amadarubindi n'umupira w'umuhondo ikigo cy'itumanaho cya MTN, imbere ye hari mudasobwa kandi afite telefone mu ntoki, ibigaragara bari kuganira.

Umuntu ufite terefone mu ntoki ubona ko yakanze imibare, bigaragara ko hari ibyo ashaka kwishyura mu bicuruzwa yafashe biri ahongaho.

Ni ikarita y'umuhondo yanditseho amagambo anyuranye, ni iy'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni ibyo bivuga ko umucuruzi n'umuguzi bakishyurana binyuze muri terefoni nta kibazo kibayeho.

Aba bagaragara babasore bambaye imipira y'imihondo n'ingofero, ibyo byose niby'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni hari ibyo bagaragaza kuko bose ubona ko bari hamwe kandi hari ibyo barimo berekana.

Umugore wambaye ingutiya ndende n'isakoshi mu kaboko ahagaze mu idirishya ry'akazu gakoreramo ikigo k'itumanaho cya emutiyene avugana n'ukoreramo kubijyanye n'ihererekana ry'amafaranga anyuze kuri terefone.

Abagabo babiri barahagararanye, umwe yambaye ingofero y'ubururu yerurutse, umupira w'umuhondo, ari kumwe n'undi wambaye umupira uciye amaboko, ufite agapfunyika mu ntoki na telefone uyerekana.

Umugabo wambaye agapira gaciye amaboko, ahagaze mu kazu k'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, ari kwandika kuko afite ibitabo imbere ye, ubona ko hari abantu arindiriye kuko afite intumbero mu byo arimo mu bigaragara.

umugabo wambaye agapira gatukura n'ipantaro y'ikoboyi, arerekeza ku kazu k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni, harimo umugabo wambaye umwambaro w'akazi, ubona ko ari mu kazi, undi na we arerekezayo. Inyuma y'akazu hari inyubako ndende.

Umuryango ufunguye, ukikijwe cyane n'amabara atukura yiganje, imbere harakomeza naho harimo amabara cyane yiganje atukura. Ibyo nta bindi ni ikigo cy'itumanaho cya Eyateri mu biro byaho hafunguye imiryango.

Aha ni icyumba kigenewe ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho cya eyateri, hariho icyapa kiriho abantu basetse, bishimye ubona ko batunguwe n'ibyo babona kuri telefone.

Abagabo batandukanye barimo ,abambaye imipira y'imuhondo, numwe wirabura wambaye uwumweru, nuwundi wuruhu rwera ,bahagaze imbere yahacururiza ikigo cyijyanye nibyitumanaho rya MTN babaza uko byifashe.

Umuntu ugaragara wicaye nk'umugore, imbere ye hari utumashini tubiri duhari, na telefoni, n'ikirango cya Emutiyeni kigaragaza uburyo umukiriya cyangwa se umucuruzi bakorana biciye muri mobayiro mani. Ihererekanwa ry'amafaranga hagati yabo.

Abagabo bahagaze imbere y'ihema ry'ikigo giciruza ibijyanye n'itumanaho bariho barasobanurirwa mubigaragara bafite amatsiko bakeneye kumva byinshi binyuranye.

Akazu k'ibara ritukura ni ak'igo k'itumanaho cya Airtel, urabona ko kariho inyuguti nyinshi n'ibirango byinshi, ibyo byose ni ibigaragaza imikoreshereze yabo n'uburyo gakora.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ahagaze imbere y'umugore usokoje imisatsi neza w'inzobe wambaye agapira k'umweru karimo utubara tw'umuhondo urabona ko ari kumusobanurira.

Abagabo babiri bahagararanye, umwe yambaye ingofero y'umuhondo irimo ubururu n'umupira w'umuhondo, undi yambaye agakoti k'imvura bafite terefone mu ntoki ariko uw'umuhondo hari ibyo ari kumusobanurira.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho rya MTN kari ku muhanda hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu ari mu idirishya arikuvugana n'ukoramo mubijyanye n'itumanaho ari mubigaragara ari kumusobanurira.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu idirishya ry'akazu gakoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN, abaza umukozi ukoreramo ibijyanye n'ibikorwa by'ihanahana ry'amafaranga.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uciye amaboko uhetse igikapu ahagaze mu idirishya ry'akazu gakoreramo ikigo k'itumanaho cya emutiyene, arabaza ibikorwa bijyanye n'ihanahana ry'amafaranga.

Uyu mugore w'inzobe w'imisatsi miremire wamwenyuye ufite ikarita mu ijosi wambaye ikanzu irimo ibara itukura ahagaze inyuma, hari icyapa kinini cy'ikigo cy'itumanaho cya mtn, biragara ko ari abantu ari kuvugisha kuko iruhande rwe hariho abandi bantu bahahagaze.

Abagabo bambaye umwenda w'akazi w'ikote riciye amaboko w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, bicaye , bahagaze munsi y'umutaka bafite terefone mu ntoki, hariho abandi bahagaze iruhande rwabo mu buryo bwo guhererekanya amafaranga binyuze kuri terefone.

Agakarita kanditseho amagambo atandukanye, n'ayandi yanditse n'ikaramu ndetse n'imibare, ni ak'ikigo cyitumanaho cya emutiyene, iyi mibare ifasha mu kwishyura umucuruzi mu gihe habayeho kugura ikintu, binyuze kuri terefone yawe.

Akazu k'umuhondo gafunze kari ku muhanda ngo ni ak'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, hariho amagambo cyangwa se imibare. Ayo ni amabwiriza cyangwa se uburyo ukora kugirango ubashe gukoresha ibijyanye ihererekanya ry'amafaranga cyangwa se telefone muri rusange.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko ahagaze iruhande rwa moto y'umuhondo ari guseka arishimye bigaragara ko hari ikibaye kuri we.

Abantu batandukanye bahagaze munsi y'ihema ry'umuhondo, abandi babari inyuma. Urabona ko bashishikajwe no kugira icyo babaza cyangwa se gusobanukirwa byinshi byisumbuyeho mubyo babona ahongaho.

Abantu batandukanye bahagaze ahari ibikorwa by'ubucuruzi by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene bari kubaza, bari gusobanuza ibijyanye n'ibihakorerwa.

Uyu muntu ufite telefone mu ntoki, muri telefone ye harimo imibare, iyo mibare iramubwira kwishyura amafaranga runaka ku kintu runaka kugira ngo abone icyo ashaka, arakanda imibare kandi yishyure akibone.

Abagabo babiri bahetse ibikapu bahagaze munsi y'umutaka w'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, bahagaaze hari ibyo bashaka kubaza gukoresha ibijyanye n'ihanahana ry'amafaranga.

Abagabo babiri bahagaze, imbere yabo bafite mudasobwa bari gukanda. Hirya hagati imbere yabo hari abagabo n'umugore bahagaze, basa n'abategereje ibyo bababwiye. Ubona ko hari icyo bashaka kubakorera.

Icyapa cy'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, cyanditseho inyuguti zitandukanye n'imibare itandukanye, ibyo bifasha umuguzi n'umugurisha mu ihanahana ry'amafaranga, nko kwishyurana kuri telefone.

Inzu y'imbaho itatse mwimbere bigaragara ko harimo abantu bari mukazi, ifite ibyapa bitandukanye by'ibigo bitandukanye bigaragaza ko bikora ibijyanye n'ubucuruzi kuri murandasi.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho. Bari imbere y'umugabo utwara moto, bari kumushyiriramo amavuta atwara moto kugirango abashe kugenda.

Umugabo w'uruhu rwera wambaye agapira k'umukara n'icyapa cy'umuhondo cy'ikigo cy'itumanaho cya mtn, cyanditseho imibare itandukanye ijyanye no kwishyuranaho, iruhande hari abantu bamukikije barimo umugore n'umugabo, bambaye imipira y'umuhondo ubona ko haricyo ari kubavugisha.

Abantu babiri barahagaze, umugore yambaye ingofero y'ubururu bwerurutse burimo n'umuhondo n'umupira w'umuhondo, ahagararanye n'umusore w'ingofero n'ubwanwa, wambaye agapira k'umukara, ufite terefone mu ntoki ayireba, umugore arasa naho hari ibyo ari kumwereka.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho cya eyateri karafunguye; ku mpande, hariho imitako itandukanye yo kwamamaza.

Umugabo wambaye amadarabindi n'agapira k'umukara n'ipantalo y'ikoboyi arunamye ari kureba kuri mudasobwa imbere ye hari abantu bashaka kumwishyura ibicuruzwa bafashe.

Abantu babiri, umugabo, umugore w'uruhu rwera, umwe ahagaze hakurya y'ameza, undi ahagaze hakuno y'ameza, umugabo ahereje umugore, umugore hari ibyo ari gufata mu gaseke.

Abantu babiri bahagaze umwe n'umugore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi. Ahagararanye n'umugabo wambaye agapira k'icyatsi ufite telefone mu ntoki, uriho ayireba. Ahagaze imbere y'akazu k'ikigo cy'itumanaho.

Umuntu w'umugabo ahagaze imbere y'umugabo w'amadarubindi wambaye umupira w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho, bose bari kureba terefone bubitse umutwe. Bisa nkaho hari ibyo bari kumubwira.

Umuntu ufite telefone mu ntoki aricaye ari gukanda imibare arashaka kwishyura hagati ye n'umucuruzi mu bijyanye n'ihanahana ry'amafaranga.

Umugabo uhagaze wambaye agapira k'icyatsi, ahagaze imbere ahatangirijwe n'ibirahuri ni ukuvuga ngo hari ibyo ashaka, ahubwo abakora barimo imbere aragira ngo bagire ibyo bamukorera rero arategereje.

Umugabo w'uruhu rwera, wambaye ishati y'umukara irimo amabara y'umuhondo, ahagaze imbere y'idirishya rikozwe m'utwuma duto, imbere harimo umugabo wirabura wambaye umupira w'umutuku, arikumubaza.

Abagabo babiri, bahagaze, barimo uwambaye umupira w'umukara, unyuzemo uturongo tw'umweru, bahagaze mu idirishya ry'akazu, ry'inyubako ya emutiyene, ariko ifunze neza n'utwuma. Umucuruzi ari mo imbere. Ategereje yuko bavugana.

Umugabo wirabura wambaye umupira wirabura uciye amaboko ahagaze mw'idirishya ry'akazu k'ikigo cy'itumanaho ariho abaza ibijyanye n'ihanahana ry'amafaranga.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, uri kureba hirya, ari mu idirishya ry'akazu k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene, mo imbere harimo abantu babiri, umugore n'umugabo.

Umugore winzobe ufite imisatsi iri mubabra wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye, ahagarariwe n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ijya gusa n'umutuku, ahagaze mu iduka rinini ricuruza, ibicuruzwa bitandukanye, ari gusobanuriza umucuruzi, umucuruzi nawe ari kumusobanurira mu bigaragara.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, imbere harimo umudamu wicaye, imbere gato, hari umwana mutoya uhagaze.

Akapa k'umuhondo k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene cy'umucuruzi, aha baragaragaza kode y'umucuruzi wishyuriraho.

Umugabo wambaye ishati y'amabara atandukanye ahagaze mu muryango w'ihema ry'ikigi k'itumanaho cya Mtn ahagararanye n'abandi bantu. Barabaza ibijyanye nuko bakora. Baramusobanurira mu bigaragara.

Akazu k' inyubako k' ikigo cy' itumanaho cya MTN karafunguye mo imbere harimo umugabo wambaye umupira w' umweru kuruhande hahagaze abana bato barareba imbere yabo.

Abagore babiri bahagaze umwe ari hirya y'undi, bari mu madirishya mu tuzu ducuruza serivise z'ibigo by'itumanaho, eyateri, emutiyeni. Bigaragara ko hari ibyo bari kubaza.

Abantu batatu barimo abagore babiri n'umugabo umwe, bahagaze mu idirishya ry'akazu k'inyubako ikoreramo ikigo cy'itumanaho cya MTN babaza ibijyanye n'ihanahana ry'amafaranga hagati y'abacuruzi b'amafaranga na bo.

Isoko ry'ibiribwa binyuranye. Byinshi ni ibiribwa by'imboga rwatsi, n'ibindi by'amafu n'ibindi bitandukanye. Ubona ko iri soko ari urujya n'uruza. Urebye hejuru hariho ikarita y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni cyo kwishyuranaho hagati y'umucuruzi n'umuguzi.

Umugabo uhagaze yahaye akaboko umugabo n'umugore bari kureba bose mu cyerekezo cy'ibumoso baseka aho bahagaze bishingikirije idirishya ry'akazu gatukura k'ikigo k'itumanaho cya Airtel.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara na telefone ku gutwi, yicaye kuri moto. Iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, afite telefone mu ntoki, yubitse umutwe ari kuzireba.

Umugore wambaye itaburiya y'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene n'ikarita bishyuriraho y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene igaragaza nimero na kode umucuruzi yishyuriraho cyangwa umuguzi, arayifite mu ntoki, araseka arishima ubona ko hari abo yereka.

Abantu bahagaze bari kwishyura, abandi bari kureba, ahagaragara nk'icyumba kinini kirimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye, iri ni isoko rya kijyambere rigezweho kuko harimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye kandi ni heza hafite isuku.

Agakarita k'umuhondo ni ak'ikigo k'itumanaho cya emutiyene handitseho amagambo n'imibare, amagambo ntayandi ni ay'akubwira uburyo wabasha kwishyura yewe iyo mibare niyo ukanda kugira ngo umuguzi abashe kuba yakwishyura umucuruzi binyuze kuri terefone.

Ikarita y'umuhondo nini yanditseho amagambo n'imibare iyo ni iy'iyikigo cy'itumanaho cya mtn. Ayo magambo ni ay'umucuruzi cyangwa se imibare ni igaragaza uburyo umuguzi yakwishyura biciye muri terefone ye.

Abantu batandukanye barimo abambaye imipira itukura bahagaze mu ihema ritukura ry'ikigo cy'itumanaho cya airtel, hari ibyo babaza ubona ko bari gusobanuza.

Umuntu ufite terefoni muntoki yanditse imibare ku ikarita y'umucuruzi yo kwishyuriraho kukigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Uwo mucuruzi hariho kode ze, ari kwandika kugira ngo abashe kumwishyura.

Umugabo yazamuye akaboko ashaka kwandika imibare ya'kapa k'umuhondo kagaragaza imibare yo kwishyurana hagati y'ugura n'ugurisha y'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni. Yazamuye akaboko kugira ngo arebe neza abashe kwishyura.

Umugore wambaye agashati n'ingutiya ijya gusa n'ikijuju, ahagaze mu idirishya ry'akazu k'inyubako ya emutiyene. Imbere harimo abari kumwakira. Na we ategereje ko bamwakira.

Umucuruzi w'umugore wambaye umwambaro wabugenewe w'ikigo k'itumanaho, arahererekanye n'umugabo wicaye kuri moto wambaye ingofero yabugenewe utwara ibyo kurya bitumizwa kuri murandasi.

Abantu babiri barahagaze. Umwe ni umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'umuhondo, undi ni umugore yambaye imyenda y'akazi k'umutekano bahagaze bubitse umutwe bareba telefone.

Ishusho mubona y'umuhondo nini yanditseho inyuguti cyangwa amagambo ni iy'ikigo k'itumanaho cya emutiyene, ibyo byose ni ibifasha abaguzi, abakiriya cyangwa se abakeneye ibijyanye n'ibikorwa by'icyo kigo byose.

Ikarita y'umuhondo nini ni iy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, handitseho amagambo n'imibare runaka. Amagambo ni ay'umucuruzi, imibare ni ituma ubasha kwishyura hagati y'umucuruzi n'ugura.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi n'agapira k'umweru karimo ibara ry'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ari mu ihema ry'umuhondo imbere ye ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo, ingofero, imipira, n'ibindi by'imihondo bitandukanye, ibyo byose ni iby'ikigo cy'itumanaho cya MTN.

Uyu muntu ufite telefone mu ntoki, yakanze imibare runaka, ashaka kwishyura, arareba agakarita k'umuhondo kanditseho imibare runaka imufasha kwishyura, y'umucuruzi n'amazina yari yanditseho. ako gakarita ni ak'ikigo cy itumanaho cya MTN, Gafasha umuguzi kwishyura ibyo yafashe binyuze kuri telefone.

Umuntu wicaye ufite telefone mu ntoki iri kwakamo ubururu bigaragara ko ashaka gukandamo.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni kari ku muhanda kafunze, bugaragara ko kamaze igihe.

Akazu k'inyubako y'icyigo cy'itumanaho cya MTN karafunguye, kabereye aho nta muntu ukarimo, bigaragara ko gateretse imbere y'inyubako.

Umugabo uhagaze uri kwandika mu gitabo n'ikaramu, imbere ye hahagaze umugore usutse imisatsi uri kumwenyura usa nkaho hari icyo ategereje kuri uwo mugabo uri kwandika.

Abagabo babiri bambaye udupira tw'umuhondo duciye amaboko, bafatanye mu biganza babizamuye, bishimye baseka, bafite akanyamuneza, inyuma yabo, hariho abandi bantu bahagaze, babareba, yewe bitegereza ibyo barimo.

Abantu batandukanye baricaye, abandi barahagaze, muri bo harimo abambaye udupira tw'umuhondo tw'ikigo cy'itumanaho cya MTN, muri bo baricaye bari gusobanurira abandi babateze amatwi.

Abantu banyuranye barimo abagabo bambaye udupira dutukura tw'ikigo cy'itumanaho cya eyateri barahagaze mw'ihema. Abandi nabo bahagaze imbere yabo basa n'ababasobanuza, mbese ni urujya n'uruza hagati yabo baraganira basobanuza.

Abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, undi yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'icyatsi, bose bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, bahagaze ku bamotari, umwe hino undi hirya bari kwishyura.

Iyi nyubako yiganjemo ibara cyane ry'umuhondo n'umukara, ni iy'ikigo cy'itumanaho cya MTN, aha baratugaragariza uburyo bakora mu gihe waguze ibintu runaka yaba ujyanye na telefoni cyangwa n'ibindi bitandukanye.

Uyu muntu ufite terefone mu intoki yanditsemo amagambo runaka, ikindi arashaka kwishyura umucuruzi binyuze kuri terefone aribyo byitwa mobayiro mani, n'ihererekanya ry'amafaranga binyuze kuri terefone hagati y'umuguzi n'umucuruzi.

Akapa k'umuhondo n'ubururu n'umweru, kanditseho amagambo n'imibare runaka ndetse n'izina ry'umuntu. Ibyo ntabindi ni ibifasha umuguzi kwishyura umucuruzi, binyuze kuri telefone ntakibazo kibayeho nibyo byitwa mobayilo mani.

Abagore bicaye ahubatse neza mu ibara ry'umuhondo bikikijwe n'umutaka, ibyo byose ni iby'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene. Abo bagore hari utukoresho imbere tw'umuhondo natwo duhari, ibyo ni ibyo bari kumurika. Ubwo bari mu bikorwa by'icyo kigo cya emutiyene

Abagore babiri bambaye udupira tw'umuhondo, tw'ikigo cy'itumanaho, bari kureba mu cyerekezo kimwe, bose baseka, ubona bishimye cyane.

Akapa k'umuhondo kanditseho inyuguti n'imibare itandukanye n'ak'ikigo cy'itumanaho cya MTN, akapa gafasha umuguzi n'ugurisha kwishyuranaho binyuze kuri terefoni.

Akazu k'umutuku n'ak'umuhondo biregerenya. Birafunguye, birimo ababikoreramo. Ibyo nta bindi, kamwe ni ak'ikigo cy'itumanaho cya eyateli, akandi ni ak'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni.

Umugabo wirabura uri guseka yambaye umupira w'umuhundo, awambariye ku ishati y'umukara yicaye ku gare, inyuma ye hari abandi bantu bicaye mu mutaka w'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, abandi barahagaze.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko, afite Telefone mu ntoki ari kuyiha, uhagaze wambaye umupira w'umukara uciye amaboko ufite igare mu ntoki asa n'aho hari ibyo ari kumubwira.

icyumba kigari kirimo amabara atandukanye y'umuhondo n'umukara n'abagabo bicaye bambaye imipira y'imihondo imbere batandukanijwe n'ibirahuri hari abantu bicaye basa n'abategereje, aho nta handi ni ku kigo cy'itumanaho cya emutiyeni ni abantu bategereje ko bagira ibyo babafashe.

Umugore wambaye agapira kirabura n'ipantalo ijya gusa n'umweru hirya ye hahagaze umugabo wambaye agapira gaciye amaboko n'ipantalo y'ikoboyi, bahagaze mu idirishya ry'akazu kakoreramo ubucuruzi bw'ihanahana ry'amafaranga ka MTN babaza ibijyanye n'amafaranga hagati y'abacuruzi nabo hagati yabo.

Abantu batandukanye, bambaye ingofero z'imihondo, bahagaze hamwe, bari munsi y'ihema ry'umuhondo, bafite amafelefone, umwe ari kwereka abandi, abandi bari kureba.

Umugore wirabura, uri mu kazu gato k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, gafunguye amadirishya, ari kwandika. Hanze hari undi wirabura ubona bari kuvugana, bari kuganira.

Abantu babiri batandukanye, umugabo n'umugore. Bahagaze imbere y'ucuruza ibijyanye n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Basa n'abategereje ko babakira.

Abantu bamwe baricaye abandi barahagaze imbere yahatangirwa ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho cya eyateri bamwe basa nabari kubaza abandi basa n'abategereje.

Umuntu wicaye ufite telefone muntoki, muri iyo Telefone mukirahuri hari kwakamo ibara ry'umuhondo, ubwo biragaragara ko hari aho ashaka kureba, nubwo bitaragara neza.

Abagore babiri, umwe yambaye ingofero y'umuhondo n'ubururu bwerurutse n'agapira k'umuhondo gaciye amaboko, undi yambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umweru n'agakoti, afite terefone mu ntoki, barahagararanye uw'umuhondo ari guseka bari kuganira.

Aha ni mu isoko ricuruza imyenda harimo amapantalo ariko iyo ureba hejuru hari ikiganza gifashe ikarita nini y'ikigo cy'itumanaho cya MTN handitseho inyuguti cyangwa se imibare runaka, batubwira gutuma ubasha kwishyura umucuruzi mugihe hari icyo mwaguze.

Umugabo wunamye mu idirishya ry'akazu k'ikigo kitumanaho ka emutiyeni yunamyemo asa n'ufite ibyo ari kubaza ucururizamo.

Umugabo w'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara utebeje neza, ahagaze mu idirishya ry'akazu k'inyubako y'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Imbere harimo umugore bari kuganira.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, kari ku muhanda karafunze; kariho ibirango byinshi byamamaza bitandukanye by'amatelefone.

Umugore wicaye wambaye umupira w'umweru harimo amabara y'umuhondo, yicaye imbere hari ameza akikijwe n'abantu batandukanye, bariho bamubaza abasobanurira.

Abagore babiri umwe yambaye umupira utukura n'ingutiya y'umukara n'undi wambaye nkayo, bahagaze mu kadirishya k'akazu k'ikigo k'itumanaho cya emutiyene barimo babaza ibijyanye n'ihanahana ry'amafaranga.

Umugabo wirabura, wambaye umupira w'umuhondo, ahagaze iruhande rw'imodoka y'umukara. Mu idirishya rimanuye ikirahuri. Imbere hicayemo umugabo wirabura, bari kuvugana.

Umugabo wambaye agapira k'amabara atandukanye y'umweru, arahereza umugore uri hanze y'akazu k'inyubako y'umuhondo y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, aramuhereza undi aracyira.

Abantu batandukanye bahangaze imbere y'ahari ibikorwa by'ikigo k'itumanaho cya emutiyeni, bamwe bari mo imbere abandi bari hanze, bisa n'aho hari inyo bari kubaza cyangwa gusobanukirwa.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo, y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, imbere yabo hari mudasobwa, ku meza batandukanyijwe n'umugabo wambaye umupira w'umweru. uhagaze, usa n'uri kugira ibyo ababwira.

Abagabo batatu n'umugore uhahagaze hirya, bahagaze mu idirishya rya kazu gakoreramo ikigo cy'itimanaho cya emutiyene haribyo babaza ukarimo, ibyo harimo guhererekanya amafaranga binyuze kuri terefone aribyo bita mobayiro mani.

Abagabo babiri bahagaze ku kazu k'inyubako y'ikigo cy'itumanaho cya MTN umwe yambaye imyenda isa n'akagofero k'umweru ahetse igikapu cy'umukara undi ahagaze afite terefone urebye baragira icyo babaza ucuruza ibijyanye n'amafaranga hagati yabo bombi.

Akazu k'ibara ry'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni mu guhanahana amafaranga binyuze muri telefoni, gafunguye, mo imbere harimo umugore wunamye ureba ibya telefoni, hirya gato hari inzu y'ibara ry'umutuku.

Umugabo w'ubwanwa wambaye agapira k'icyatsi, ufite telefoni mu ntoki, uri kuyireba bigaragara ko yishimye, afite ikarita mu ntoki, imbere ye hari inyanya zicuruzwa.

Umugabo utera intambwe ndende cyane ari imbere y'inyubako y'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Imbere naho harimo abantu, imbere yaho hari ibikoresho bigaragara ko bari mu kazi.

Umukobwa uhagaze wambaye agapira k'umuhondo, uri kuvugira kuri mikoro, inyuma ye hari abandi bantu bicaye mu ihema bose, bambaye udupira tw'umuhondo, tw'ikigo cy'itumanaho cya MTN.

Abagabo babiri bahagaze munsi y'umutaka w'kigo cy'itumanaho cya emutiyeni. Umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye jire y'umuhondo. Bafite telefone mu ntoki, bubitse umutwe bose bari kureba.

Abagore n'abagabo bambaye udupira tw'umweru harimo ibara ry'umuhondo. Imbere ya bo hari mudasobwa, imbere yabo hari abantu basa n'abaje babagana bafite ibyo babasaba cyangwa bababaza urabona ko bari kubakira.

Abagabo babiri bahagaze umwe ufite terefone, hari umukobwa kuruhande wambaye umupira wa MTN, umugabo yambaye umupira utukura, undi wambaye ikabutura n'umupira umeze nk'ivu, bahagaze kuri sitasiyo itanga esansi, hirya yabo hari imodokari biragaragara ko uyu mugabo yari arimo arishyura akoresheje ikoranabuhanga rya Terefone.

Akazu k'umuhondo ni ak'ikigo cy'itumanaho cya MTN, mo imbere harimo umugore ufite imisatsi y'umukara igwa inyuma, iruhande hariho abantu batandukanye. Aka kazu hariho amagambo avugako umukiriya abasha kohereza uwundi binyuze kuri terefone cyangwa se guhanahana binyuze kuri terefone.

Moto iparitse imbere y'inyubako iriho igisanduku bagemuraho ibyokurya, haruguru yaho hari umugabo uhagaze usankaho ategereje.

Umugabo wicaye mumudoka yambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'ubururu uciye amaboko afite igikarito gikoze mande enye ari kucyerekana aseka muruhande rw'ibumoso.

Umugabo ukorera ikigo cya Vuba Vuba ucigatiye ibiribwa biragarara ko ari guseka cyane hari umuvugishije ibyo biribwa birimo bitandukanye karoti, insenda, amavuta, ibitunguru bitandukanye.

Iyi shusho tubona iratwereka ko hari ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, kandi muri bwo harimo ibicuruzwa by'abantu bakuru, imyenda, yewe inkweto, imyenda y'abana, imyenda y'abagore n'ibindi bitandukanye bijyanye n'ubwiza ku bijyanye n'abagore.

Umugore ukiri muto wambaye amadarobindi yicaye ku meza imbere ye hateretse ifiriti n'umugati ukozwe neza urimo inyanya n'imboga binyuranye n'inyama y'inkoko uruhande rw'ibiryo, yiteguye kurya.

Umugabo uhetse igikapu k'icyatsi kibisi k'ikigo cya vubavuba ahagararanye n'igare rye imbere y'igipangu ategereje ko baza kumufungurira.

Abagabo batanu bari kuri moto z' amabara atandukanye ziri ku murongo bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, bose barareba iburyo bambaye n' ingofero zabugenewe.

Umugabo wicaye kuri moto wambaye ingofero yabugenewe afite terefone mu ntoki, inyuma ye hari igisanduku kigaragaza ko agemuye ibyo kurya.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe ya moto, nishati y'icyatsi ya vuba vuba, arakura mu gisanduku cy'akazi cya vuba vuba ibintu runaka, uwo abihaye cyangwa se hari uwo ashaka kubiha.

Aya magambo yanditse hano n'amagambo y'urubuga runaka atubwira uburyo ushobora guhaha ku Rwanda wibereye mu rugo kandi ugahaha nta kibazo byose ni ugukoresha murandasi.

Umugabo uri ku igare wambaye amadarobindi n'ingofero yabugenewe yambaye ishati y'icyatsi kibisi n'igikapu cya vubavuba ibigaragara aragemuye ibyo bamutumye. Vubavuba ni ikigo kigurisha ibintu bitandukanye birimo ibiribwa kuri murandasi.

Umugabo wambaye ingofero y'akazi yo kuri moto yabugenewe n'ishati yanditseho vuba vuba y'icyatsi ahagaze yishingikirije igikarito gikoze mpande enye cyanditseho vuba vuba kiri kuri moto. Vuba vuba ni ikigo batumizaho ibyo kurya cyangwa ibindi binyuze kuri murandasi.

Moto ebyiri, zihetse abagore babiri, bose bambaye ingofero z'ubururu, zabugenewe, zibafasha kubarinda impanuka. Kandi urabona ko icyerekezo ari kimwe, kuko bari ku murongo umwe.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe, arahagaze ari guhereza akantu kanditseho "safi" k'agapfunyika umugore ukiri muto wambaye agapira k'umweru, bigaragare ko ari byo yamutumye binyuze kuri murandasi.

Ishusho iriho umugore ukiri muto w'imibiri yombi, ufite umusatsi muke w'umukara ari guseka, iruhande rwe hariho amavuta atandukanye, ibyo watubwira ni uko wayatumizaho ukayagura, ukisiga nawe ugasa neza.

Abagore babiri umwe wambaye ishati nini y'amaboko n'undi wambaye umupira w'icyatsi w'ikigo cya VUBA VUBA, arahereza uwambaye ishati nini y'amaboko ibyo avuye kumuhahira undi arabyakirana ubwuzu aseka yishimye.

Ibigaragara nk'imyenda myiza y'abagore turayibona batubwira ko wayigura kandi ukayigura utavuye aho uri ukoresheje mudasobwa yawe wibereye mu rugo bakayiguha.

Aya magambo atandukanye turi kubona yanditse mu nyuguti ndende, aratubwira uburyo mu Rwanda wagura ukoresheje murandasi nta kibazo ufite, wibereye iwawe wicariye iwawe, ukabona ibyo washakaga byose.

Imodoka enye z'umweru zo mu bwoko bwa isuzu, zose ziri ku murongo bigaragara ko ziteguye kugenda z'ikigo Twiga, ziri hasi y'inyubako.

Umugabo ukorera ikigo kigemura ibyo kurya, ahagaze iruhande rwa moto imbere y'igipangu, afite agapfunyika bigaragara ko ategereje abaza kumwakira ngo babifate.

Umugabo uhagaze watebeje neza, warimbye, wunamye nk'ufite telefone mu ntoki, ahagaze ategereje undi mugabo ufite ingofero yabugenewe uri gukura akantu kuri moto ye mu buryo busa naho uwo mugabo yatumijeho akantu ategereje ko abimushyikiriza cyangwa abimuha.

Abagore babiri bambaye imipira ifite amabara atandukanye bari guseka, ubona ko bari kuvuga ku kintu runaka cyangwa se hari ubutumwa runaka bashaka gutanga.

Ipikipiki yo mu bwoko bwa tevesi itwara ibiribwa ikorera sosiyete ya vuba vuba. Iparitse ahantu ku mapave hafi y'umuhanda w'amabuye, irindiriye guha ibicuruzwa ababitumije.

Imodoka z'umuhondo z'ikigo k'iposita ziraparitse hagati haparitse abari kuri moto nabo bambaye umuhondo bisa nk'aho hari ibyo bategereje bose bari kumurongo.

Ishusho igaragaza inkweto nziza cyane z'umweru n'igiciro cyazo, kandi hano baratwereka naho wazikura n'urubuga wazikuraho mu gihe ushaka kuzigura.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa bitandukanye. Kuri icyo cyapa hari ibicuruzwa bitandukanye: Inanasi, ibishyimbo, ibitoki, inyama, karoti, inyanya, umuceri, ifarini, amafi.

Abagabo bari kuri moto bari kumurongo umwe bose bareba imbere, bahetse ibikapu bikoze mpande enye bijya gusa n'icunga rihishije urabona ko basa n'abiteguye kugenda ahantu runaka.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe ya moto, wambaye agapira k'umukara, afite agakarito k'umweru ari gushyira mu gisanduku k'icyatsi kibisi gicuruza ibikoresho kuri murandasi.

Abagore babiri bicaye ku meza imbere yabo hari mudasobwa umwe aritandiye undi arasutse hirya yabo hari umugabo ufite terefone ku gutwi ariko urebye bakikijwe n'ibikoresho binyuranye.

Agapfunyika gapfunyitse neza mu buryo bwa kinyamwuga gahambirijwe n'imigozi mu buryo bwiza gateretse ku meza, ibyo si gusa ahubwo hari icyo bashaka kuvuga ni uko bagurisha mu buryo bwo kuri murandasi uburyo bwiza bugezweho.

Ishusho igaragaza ubucuruzi bwo kuri murandasi, muri ubwo bucuruzi higanjemo ibicuruzwa by'abagore. Muribyo harimo amasakoshi, imisatsi, inkweto, utwumvisho two mu matwi, imipira n'ibindi.

Inzu igaragara kuba icuruza imyenda, hariho ibishushanyo bikoze nk'abantu byambaye imyenda, ibyo ni ukugira ngo bifashe abagura kubona uburyo imyenda imeze, mu gihe baba bayambaye niba yababera cyangwa itababera.

Iyi shusho iratwereka ko kw'isoko runaka, hariho ibiribwa, kandi ku mafaranga runaka. Ibyo biribwa bimwe muri byo ni byinshi bitandukanye ariko twavugamo amafi, ibishyimbo, ibitoki, inyama, amashu, inanasi. Kandi baratubwira n'uburyo twababona bitatugoye.

Iyi shusho y'icyatsi mubona yanditseho amagambo, ayo magambo nta yandi ni uburyo wabaka imbuga nkoranyambaga muri mudasobwa yawe wubaka imbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye, haba mu buryo bw'ibigo by'amashuri, ibigo byigenga, ibigo by'abihayimana n'ibindi byinshi cyane.

Aya magambo aratubwira uburyo wakora ubucuruzi binyuze kuri murandasi yawe nta kibazo ugize mu gihe wajya ku rubuga runaka, aho batubwira uburyo warujyaho.

Aya magambo mubona ni amagambo atubwira uburyo twakora ubucuruzi binyuze kuri murandasi, kandi ko twabifashwamo n'umuntu runaka. Nta wundi ni uwo bagaragaje ku ifoto aho ngaho.

Telefoni irimo ibirango bicuruza kuri murandasi; ibyo bicuruzwa birimo imyenda n'imitako, harimo amapantaro, amashati, harimo n'ibiciro bitandukanye bigaragaza ubwo bucuruzi.

umugabo wirabura useka wambaye ibara ry'icunga rihishije n'ibara ry'umuhondo wambaye isaha n'ipantaro y'umukara yegamiye kuri moto iruhande rwe hakaba hari igikapu cy'umuhondo

Umugore ufite agakarita k'umuhondo na telefone mu ntoki, arakareba, ari guseka, akanda telefone, ibyo nta bindi ari gukora, ari kugura binyuze kuri murandasi, kuko bifasha kandi byihutisha ibintu.

Ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa kuri murandasi, hano baratwereka ibiciro byabyo uko bigura, muri byo harimo inyama zitunganyije mu mavuta, ubona ko ari byiza biryoshye n'ibindi bindi bikozwe mu ikawa.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe n'ishati y'icyatsi kibisi n'ipantalo y'ikoboyi yicaye kuri moto, inyuma ye hari igisanduku k'icyatsi kibisi cyanditseho vubavuba bigaragara ko agemuye ibyo kurya bitumirwa kuri murandasi.

Umugabo wambaye ingofero y'akazi ya moto n'agakoti gaciye amako k'akazi ahagaze iruhande rwa moto, arahereza ibintu bifunze umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati itukura iciye amaboko, ibyo ni ibyo yatumijeho binyuze kuri murandasi, ubucuruzi bugezweho.

Inzu igaragara igeretse yanditseho ijambo rinini ryanditseho ihaha, ni ukuvuga ngo imbere harimo ibicuruzwa bitandukanye aha baratubwira ko wahaha nicyo bashaka kutubwira.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye. Harimo iby'abagabo, iby'abagore, iby'abana, iby'imikino ngororamubiri, iby'impano za noheli, n'ibindi by'ikoranabuhanga byose.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe kuri moto, arahereza umukobwa w'inzobe w'amadorobindi agapfunyika, bigaragara ko ari byo amugemuriye mu bucuruzi bwo kuri murandasi.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa muri murandasi, muri byo harimo amakanzu, imipira, inkweto, hariho n'ibiciro bitandukanye by'ibyo bicuruzwa.

Umukobwa w'inzobe w'imisatsi mireremire, wambaye amadorobindi meza yifashe ku munwa arimo arareba muri terefone ye, bigaragare ko yishimiye ubutumwa yakiriye muri mesaje arishimye cyane n'ubibona ku maso ye arabibona.

Abagabo batatu bari kuri moto bambaye ingofero zabugenewe z'akazi barareba inyuma bose bazicayeho, inyuma hari ibisanduku birimo ikigo gicuruza ibiryo kuri murandsi bigaragara ko bagemuye ibiryo cyangwa se babitegereje.

Umugabo wambaye umwenda w'akazi k'ibara ry'icyatsi kibisi, yicaye ku kamoto gato inyuma ye hari igikoresho kimufasha gukwirakwiza ibyo agemurira abantu hifashishijwe isoko rinyuze kuri murandasi, yicaye areba iburyo bwe.

Iyi shusho turi kureba iriho amagambo agize inyuguti ndende, atubwira ko kugura binyuze kuri murandasi muri Kigali ari byiza, kuko byoroshye kandi bituma igihe kitagenda, ariyo mpamvu aha bashishikariza abantu ko babikora kuko bifite ikintu runaka byongera.

Ishusho y'icyatsi yanditseho amagambo, ntakindi batubwira ni uburyo ushobora gutumizaho ibyo kurya bibisi ukabibona kandi ntakibazo ugize, muri byo harimo imboga rwatsi n'ibindi biribwa bitandukanye, inyanya, amashu, imineke, ni byinshi.

Umugore wicaye wambaye agapira k'umweru k'amaboko n'imisatsi y'umukara, afashe telefone mu ntoki ari kuyitegereza yishimye cyane aseka. Bisa nkaho hari ibyo ari gusoma.

Ishusho igaragara, iragaragaza ibikoresho dukenera mu rugo, harimo igituma tubasha guteka nka gazi, ikindi ni moto tugendaho kandi yifashishwa mu gutumiza ibyo kurya kuri murandasi, amazi n'ibindi bitandukanye.

Imodoka bigaragara ko ari nini y'ikigo k'iposita iraparitse iparitse mu mwanya wayo ubona ko yisanzuye ntabazo kirimo.

Inyubako ifunguye, y'ibara ry'icyatsi kibisi. Mo imbere hacururizwamo ibiribwa bitandukanye, bibisi. Byiganjemo imbuto zo kurya.

Icyapa kiriho amaguru y'umugore wambaye inkweto zo hasi hariho ibiciro bigaragaza izo nkweto igiciro kigura, bigaragara ko ari ukwamamaza.

Amagambo yanditse ariko muri aya magambo yanditse harimo ikimenyetso gikoze nk'isaha, nta kindi ki bashaka kuvuga ni ukuvuga ko bakugezaho ibyo ushaka vuba vuba kandi ku gihe nta kigoranye.

Abantu banyuranye bicaye kuri moto bakaba bambaye ikirango cyanditseho yegomoto haba ku ngofero za bugenewe ndetse n'amakote ya bugenewe bose baragenda mu kerekezo kimwe.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi ukorera ikigo cya vuba vuba afungura igisanduku kijyanye n'ibyo bagemuramo areba ikirimo.

Umugabo wambaye ingofero yabugenewe yo kuri moto n'akenda k'ubururu n'umweru k'akazi. Arahagaze ari gukura agapfunyika mu gisanduku cy'umuhondo cy'ikigo gicuruza ibikoresho kuri murandasi.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi ahagaze inyuma ya moto arakura ibipfunyika mu gisanduku k'icyatsi k'ikigo cya Vuba vuba gikwirakwiza ibyo kurya cyangwa ibindi bintu bitandukanye binyuze kuri murandasi.

Umugabo uri kuri moto wambaye ingofero yabugenewe ahetse igikapu kinini gikoze mpande enye cy'umuhondo n'irindi bara ry'icunga rihishije, icyo gukapu ni kimwe mu kigo gitumizwaho ibyo kurya binyuze kuri murandasi, urabona ko agemuye ahantu runaka.

Ubucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga. Aho bigaragara ko bafite ibicuruzwa harimo isakoshi, ikote na furashe itwara amadata hamwe na terefone za mobayiro zigendanwa.

Isoko ry'ibitoki biri mu bipimo binyuranye; abacuruzi na bo baricaye, abandi barahagaze; barapima umusaruro wabo ari nako n'abaguzi na bo bahari bigurira; isoko harimo urunyuranyurane rw'abantu.

Inzu yubatse neza, bigaragara ko harimo gishushanyo cy'ubugeni, imbere harimo abantu n'ibikoresho, muri ibyo bikoresho mu bigaragara harimo imyenda, ubona ko ari inzu y'ubugeni cyangwa ibirori runaka.

Iyi shusho iriho abantu n'ibiribwa bikiri bibisi birimo ibirayi, imineke n'inyanya n'ibindi, icyo batubwira ni uko ushobora gutumizaho ibyo kurya bibisi wibereye iwawe nta kibazo ugize, kandi bikiva mu murima ako kanya.

Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga bw'ikigo cya Kasha, aho batanga serivise zo gutanga ibikoresho by'isuku, bakoresheje amapikipiki. Aho umuntu abahamagara bakohereza moto iyo ariyo yose ifite isanduku inyuma ikamugezaho ibyo bicuruzwa aba yatse.

Aha baratwereka uburyo ushakisha ukanda kuri murandasi, cyangwa kuri mudasobwa yawe ushaka kugira ngo ubone ibintu runaka, ku byo umuntu agenewe. Ibyo byose baratwereka uburyo, aho ukanda hakaza icyo wari ukeneye. Mu byemezo runaka: icyemezo cy'uko uri ingaragu, cyangwa se kwemeza ko uri impfubyi

Ishusho igaragaza ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa kuri murandasi, muri byo harimo ibyo kunywa, amasakoshi imyenda. Turabonaho kandi ibiciro byabyo uko bihagaze.

Iyi shusho tubona ni itubwira uburyo wagura i Buraya cyangwa se mu Budage. Ukabigura ubizana mu gihugu cyawe nta kibazo ugize kuko byoroshye, ukoresheje murandasi.

Igikoresho gikoze mpande enye kiri kuri moto cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, icyo ni kimwe mu bifasha umumotari kugeza ibitumizwa n'umukiriya, aho abigeza amahoro nta kibazo kuko biba bifunze kandi bimeze neza.

Uyu mugore ufashe terefone mu ntoki w'inzara ndende, muri terefone ye haje ijambo vuba bigaragare ko ashobora kuba hari ibyo ari kugura binyuze kuri terefone kuri murandasi.

Iyi nyakira mashusho iratwereka ikarita yaho uy'umuntu ashaka kwerekeza, urabona ni ikarita igaragaza inzira neza neza aho ashaka kugana n'icyerekezo, aho ashaka kugana baratwereka akadomo kaho agomba kugarukiramugihe ahageze.

Iyi shusho iragaragaza umugore w'imisatsi myinshi, w'inzobe useka wambaye agashati k'umweru, afite akantu ahetse ku rutugu k'agakapu. Arareba i bumoso bwe, iki ntakindi bivuze baratwereka uburyo bwo kugura cyangwa kugirisha wifashishije murandasi.

Inyubako irimo ameza agabanyijemo ibice bine, kimwe iburyo, ikindi ibumoso, hirya naho ni uko, iburyo, ibumoso, kandi ni ameza meza ateretse neza.

Ifoto igaragaza ibicuruzwa bitandukanye yewe n'ibiciro byabyo muri byo harimo inkweto, telefone, utwenda tw'abana, amasakoshi.

Abagabo babiri: umwe wirabura ukaraze imisatsi n'amadarubindi, n'undi w'uruhu rwera w'amadarobindi, barerekana ingofero ebyiri zabugenewe zo kuri moto, ubona ko bafite akanyamuneza.

Abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi kibisi ya vubavuba n'ingofero zabugenewe bahagaze bareba imbere amaboko yabo yishingikirije igikarito cya vubavuba kiri kuri moto.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi myinshi ufite urwumvisho mu matwi wambaye agapira keza k'umweru aricaye afite terefone mu ntoki asa n'umuntu uri gusoma ubutumwa cyangwa se ufite ibyo ari kubona kuko ubona ko yishimye.

Aya magambo ari muri iyi shusho amwe y'impine n' ay'ibigo by'ubucuruzi bikomeye ku isi, aha baratubwira uburyo ushobora guhaha cyangwa gutumiza ibintu ukoresheje murandasi, kandi bikakugeraho aho ari ho hose ku isi aho waba uri naho waba uri mu gihugu cyawe.

Umugabo wicaye kuri moto wambaye ishati y'icyatsi n'ingofero yabugenewe y'akazi, inyuma ahetse igikapu cyanditseho Vuba Vuba cy'icyatsi kibisi. Iyo ni ikigo gikorera kuri murandasi mu gihe ushaka gutumiza ibyo ushaka, yaba amafunguro cyangwa ibindi.

Akabati kagari, kari mu cyumba kinini cyane kisanzuye, heza, hakeye, ibi ubisanga mu mazu y'ikigihe ya kijyambere, yubatse neza agezweho.

Uruganiriro runini rwisanzuye harimo intebe nameza, kugikuta kigaragara c'yumweru kiza hamanitse insakazamashusho nayo nini.

Iki ni igikoni cyiza cya kijyambere kirimo ibintu byose nkenerwa, yaba ibyuma bikonjesha, ibishyushya, ibiteka, utubati tugezweho, ibi ubisanga mu mazu agezweho yubatse neza yo muri iki gihe.

Iyi mbuga iragaragaza inzu nziza cyane yubatswe neza, kuko ubona ko ari nziza urebeye inyuma. Kuko ifite impande nziza n'amadirishya meza nk'uko tubibona.

Abagore bane bose bicaye bareba imbere y'abo kandi umwe muri bo ufite akanyamuneza yicaye akikiye umwana muto muto cyane ariko ubona ko hari gahunda barimo bategereje cyangwa haricyo bashaka ku bwira.

Umugore wambaye akagofero n'imisatsi miremire, n'agakabutura kagufi arahagaze, afashe akantu mu ntoki. Imbere hariho utubati dupanzemo imboga rwatsi zitandukanye. Ubona ko ari aritegereza kugira ngo ashake izo agura cyangwa izo atorany.

Isoko ryiza rigezweho ripanzemo ibicuruzwa mu tubati twabugenewe neza ku murongo, buri kintu aho ugishaka niho ukibonera bitewe n'aho gipanze.

Umugore w'imisatsi miremire, witwaje akantu mu kaboko, ari imbere y'ibiribwa byinshi byinshi bibisi, bitambitse, ubona ko ari mu nzu y'iguriro ry'ibiribwa bibisi kandi ubona ko ari hanini cyane.

Isoko ryiza rya kijyambere rigezweho, ripanzemo ibicuruzwa cyane cyane hano ibyiganjemo ni imbuto ziribwa mbisi. Nk'uko ubibona zirapanze mu tuntu twabugenewe.